Ubwishingizi bwihariye kandi buhendutse ku matsinda n'ibigo bito ramba na Britam ubwishingizi bwo kwivuza ukeneye kubavugisha wahamagara kuri zeru karindwi iminan ibiri cumi n'icyenda umunani zeru eshatu

Iduka ricuruzwamo imyambaro yo kwambara iy'abagore ndetse n'abadamu hakaba harimo n'ubwoko butandukanye bw'inkweto harimo izo gukorana imyitozo ndetse n'izo kurimbana hakaba harimo imipira n'amashati by'amabara atandukanye harimo imihondo, imikara ndetse n'icyatsi.

Inzu ifite amabati y'umutuku ifite icyapa cyanditseho Nyanza, akaba ari aho bagurishiriza amata y'i Nyanza, hakaba harimo n'ibyo kurya bitandukanye byo kunywesha amata nk'imigati, amandazi ndetse na keke.

Murakaza neza muri MTN momo, rimwe kohereza amafaranga, kabiri kwishyura, gatatu kugura, kane momo peyi, kane banki, gatandatu inguzanyo.

Ahagurishirizwa ibikoresho byo mu rugo bikozwe mu mbaho harimo utubati, ameza ndetse n'intebe. Hakaba hari imeza ikoze mu buryo bw'ikizeru ifite n'intebe zayo bifatanye.

Inzu yo gukoreramo inama zitandukanye, harimo amatara menshi yaka cyane, harimo n'intebe zipanze ku murongo zikozwe mu byuma zifite amabara y'ubururu, harimo n'isakazamashusho.

Akapa gatoya kanditseho kanda akanyenyeri rimwe umunani kabiri, akanyenyeri gatatu urwego, ubundi ushyiremo kode, kode ya momo peyi, ikaba ari zeru zeru zeru zeru umunani rimwe, ntayandi mafaranga wishyuzwa.

Inzu irimo amakaro, isize amarange y'umweru, umukara n'umuhondo ikaba ari inzu iherereye mu mujyi wa kigali, i kanombe ifite ibyumba bine ndetse n'ubwiherero butatu. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu na mirongo itanu buri kwezi.

Inzu ikodeshwa isize amarange y'umweru ifite amabati y'umutuku, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali i Kanombe. Ikaba ari inzu ifite ibyumba bitatu ndetse n'ubwiherero bubiri. Ikaba ikodeshwa ibihumbi magana atatu mirongo itanu buri kwezi.

Inzu isizemo irangi ry'umweru irimo utubati twinshi turimo ibicuruzwa bitandukanye, harimo ibyo kurya ndetse n'ibikoresho bikoreshwa mu masuku mu nzu, hakaba harimo n'ibyokunywa bikozwe mu mitobe itandukanye y'imbuto ndetse n'amazi.